Kugira ngo ibihingwa byere neza bisaba yuko umuhinzi abitera umuti aba yaguriye ahacururizwa inyongeramusaruro, uwo muti uraza ukica udukoko tuba ku myaka igakura neza.

Ubusimba ni indwara ikunze gufata ibihingwa byiganjemo ibitunguru ndetse n'ibindi. Ni muri urwo rwego rero abahinzi bajya kugura umuti mu nyongeramusaruro, bakawushyira muri pombo, bakaza bagatera imyaka yabo kugira ngo ikire ubusimba.

Abahinzi mu rwego rwo kugira umusaruro mwiza kandi mwinshi batera umuti ibihingwa byabo bakoresheje ipombo, iyo miti batera baba bayiguze ahantu hacururizwa imiti y'ibihingwa.

Ibiyaga ndetse n'ahantu hari amazi magari, niho hakunda kororerwa amafi, ibi ngibi bigatuma amafi akura neza, akagira ubuzima bwiza ndetse n'abayorora bakayabonamo amafaranga yo kwiteza imbere.

Abantu baroba amafi mu biyaga babita abashyana, bafata ubwato bakabugenderamo bafite n'inshundura baziroroshye mu mazi kugira ngo amafi aze kuri izo nshundura nibarangiza bahite bayafata, bajye kuyagurisha biteze imbere, bateze imiryango yabo imbere, batibagiwe n'igihugu cyababyaye.

Amafi akunda kuba ahantu mu biyaga. Iyo abantu bari kuyaroba bifashisha ubwato, bakajya bazenguruka mu biyaga ndetse bafite n'inshundura zabo baziroshye mu mazi kugira ngo bafate amafi.

Abantu borora amafi bagira amafaranga mbere yuko amafi agurwa ku giciro gihenze cyane kandi abantu benshi bakayakundira intungamubiri agira.

Ubworozi bw'amafi ndetse n'ubworozi bw'izindi nyamaswa ziba mu mazi bugira umusaruro utubutse bugafasha ababikora kubona amafaranga bakiteza imbere bagateza ndetse n'igihugu cyabo imbere.

Ubworozi bw'amafi ndetse n'izindi nyamaswa ziba mu mazi, bukorerwa ahantu hari amazi magari nko mu nzuzi, mu biyaga ndetse no mu nyanja, aho abantu bajya kurobamo amafi kugira ngo bayagurishe banayarye.

Ubworozi bw'amafi ni ubworozi bukorerwa ahantu hari amazi nko mu biyaga karemano cyangwa se ibiyaga byakozwe n'abantu, amafi aba muri ibyo biyaga iyo arobwe usanga bafite intungamubiri umubiri ukenera.

Ubworozi bw'amafi ndetse n'izindi nyamaswa ziba mu mazi, bukorerwa ahantu hari amazi magari, higanjemo: inzuzi, imigezi, ibiyaga ndetse n'inyanja. Mu karere ka Nyagatare rero kubera hari ibiyaga byinshi bitandukanye, bigaragara yuko hava umusaruro mu byerekeranye n'ubworozi bw'amafizi.

M bihingwa ngengabukungu dusangamo icyayi, icyayi kigira uruhare mu iterambere ry'Igihugu dore y'uko tugisanga mu byoherezwa mu mahanga ari byo bituma amahanga aduha amafaranga menshi cyane mu gihugu cyacu.

Mu bihingwa ngengabukungu habamo ikawa, ifasha uyihinga kugira amafaranga kuko iyo yeze arayisarura akayohereza ku ruganda, nyuma yo kuva ku ruganda ikoherezwa mu mahanga kugira ngo bayitunganyemo ikawa imeze neza uyihinga agahembwa.

Umuceri ni kimwe mu bihingwa ngengabukungu gihingwa mu karere ka Nyagatare, abawuhinga bavuga yuko bakuramo amafaranga ndetse bagakuramo n'amafunguro atunga imiryango yabo ndetse agatunga n'Igihugu muri rusange.

Mu maduka acururizwamo imiti y'amatungo maremare, yiganjemo imiti y'inka ndetse n'izindi nyamaswa zororerwa mu rugo, usanga igira uruhare cyane cyane mu kubaho kw'amatungo adafite indwara kubera yuko aborozi bajya kugurirayo imiti, bakavura izo nka zabo.

Mu mavuriro atandukanye yigenga hacururizwa imiti y'amatungo atandukanye, muri ayo matungo twavugamo nk'imiti y'amatungo magufi ndetse n'amatungo maremare nk'inka ndetse n'ayandi.

Amatungo magufi yiganjemo ihene n'intama, agira imiti yabugenewe ahabwa iyo arwaye indwara zitandukanye, muri izo ndwara twavugamo nka Muryamo ndetse n'izindi.

Ubworozi bw'amatungo magufi ndetse n'amaremare mu Karere ka Nyagatare bugirwamo uruhare cyane n'ibicuruzwa byiganjemo imiti y'ayo matungo dore y'uko aborozi iyo bakibona amatungo yabo agifatwa n'indwara berekeza ku maforomasi acuruza imiti bakaguramo imiti y'amatungo yabo.

Aborozi b'amatungo magufi ndetse n'amaremare, iyo amatungo yabo arwaye indwara nka muryamo ndetse n'ikibagarira, bahita bihutira ku maduka acuruza imiti y'amatungo yabo kugira ngo bayizane bakingire ndetse bavubure amatungo yabo.

Imiti y'amatungo magufi ndetse n'amaremare, icururizwa mu maduka yabugenewe, aho iyo umworozi inka ye yarwaye ahita ajya kuzana imiti kugira ngo ayivure anayitabare.

Ibigori ni bimwe mu bihingwa ngandurarugo, bitanga umusaruro ushimishije cyane cyane iyo byahinzwe ahantu bitaherukaga guhingwa kandi hagashyirwamo ifumbire y'imborera ndetse n'imvaruganda byaba ngombwa bigaterwa n'umuti wica udukoko.

Ibigori ni bimwe mu bihingwa bitanga umusaruro uhagije cyane yuko bigira n'umumaro mu bukungu bw'Igihugu, bivamo imungure ari zo zivamo ifu ikorwamwo akawunga.

Abahinzi b'ibirayi iyo bigeze mu gihe k'ibagara barabibaga nyuma yaho hagakurikiraho igihe cyo kuhira ibirayi kugira ngo bizatange umusaruro uhagije.

Abahinzi bahinga imbuto zitandukanye nk'amakawa, amatunda ndetse n'ibindi, babigeraho binyujije mu gukora cyane aho babanza kwinaza umurama w'izo mbuto nyuma zamara gukura zibaye ingemwe bakazitera.

Abahinzi bashishikarizwa buri gihe n'abajyanama b'ubuhinzi guhinga ibiti bivangwa n'imyaka, kuko ibyo biti byiganjemo imbuto ndetse n'ibindi, birinda ibidukikije kandi bigafata ubutaka.

Ibitoki ni bimwe mu bihingwa ngandurarugo. Iyo umuntu abihinze bisaba yuko umusaruro awurya cyangwa se akawohereza ku isoko. Ibi ngibi bigatuma umuhinzi w'ibitoki abona amafaranga.

Ibijumba ni bimwe mu bihingwa ngandurarugo, abantu batuye mu cyaro giherereye mu karere ka Nyagatare, bakunda guhinga ibijumba dore y'uko iyo byanabuze biba ari ikibazo gikomeye, ibingibi babisarura iyo babitetse bakabisomeza amata.

Ubuhinzi bw'ibitoki biribwa bugira umusaruro ukomeye cyane, abantu batuye mu mirenge ya Rwemasha yo mu karere ka Nyagatare, bakunda guhinga urutoki kandi bikagira umusaruro uhambaye.

Ubuhinzi bukorerwa ahantu mu bishanga ndetse n'ahandi hantu hari ibibaya, usanga ubwo buhinzi buba butera imbere cyane yuko ababukora babonamo umusaruro utandukanye kandi mwinshi, uwo musaruro twavuga nk'uw'ibigori, umuceri ndetse n'ibijumba.

Ibinyamisogwe, imbuto ndetse n'imboga biba mu muryango w'ibiribwa birinda indwara, iyo umuntu abiriye kandi agira amaso meza ntabwo akunda kurwara indwara y'amaso.

Dodo ni kimwe mu mbogarwatsi zigira intungamubiri utasanga ahandi dore y abantu bakunda kuzirya, bagira amaso mazima ntabwo bajya bakunda kurwara indwara z'amaso.

Ubuhinzi bw'imboga bufasha ababukora kugira ubuzima bwiza kuko imboga ari zo zituma umuntu areba neza, akagira amaso y'umweru kandi ntarwaragurike do yuko ziri mu birinda ndwara.

Dodo ni imboga zigira intungamubiri nyinshi cyane, dore yuko iyo umuntu azirya cyane atana n'indwara z'amasoso ahubwo akagira amaso yera.

Abahinzi b'isombe bagira ubuzima bwiza dore yuko isombe igira intungamubiri utasanga mu zindi mboga. Niyo mpamvu umuntu ashishikarizwa kurya isombe byibura rimwe mucyumweru.

Ubuhinzi bugezweho kandi buteye imbere usanga abantu basigaye bahingisha imashini, izo mashini zigahinga ubuso bunini kandi mu gihe gitoya, ibi ngibi rero bikaba byaragabanyije akazi abantu bagiraga kuko aho bahingaga ari nka mirongo itatu hahingwa n'imashini imwe kandi mu gihe gito.

Guhinga ibiti bivangwa n'imyaka harimo umusave, ibigwanyasuri, avoka ndetse n'ibindi bifata ubutaka bigatuma budatwarwa n'isuri.

Amashyamba yaba amashyamba kimeza cyangwa se amashyamba yatewe n'abantu adufitiye akamaro gakomeye cyane, dore yuko afasha abantu kubona ibikoresho byo kubaka inzu kandi akaduha n'umwuka duhumeka.

Amashyamba akwiye kwitabwaho ndetse aho ari ntihahingwe kubera yuko agira uruhare runini mu buzima bw'abantu, aho ayungurura umwuka abantu bahumeka, akabaha inkwi ndetse akaba ari na nturo y'inyamaswa ziba mu ishyamba.

Ibimera ndetse n'amashyamba biba bigomba kwitabwaho kuko bigira uruhare runini mu kurinda ibidukikije ndetse no kurinda ikirere cyacu, dore yuko ibimera ndetse n'amashyamba ari byo bikurura imvura kandi bikayungurura n'umwuka abantu bahumeka.

Amashyamba ndetse n'ibyatsi bifite uruhare runini mu buzima bwa muntu dore y'uko ari nabyo biyungurura umwuka duhumeka bigatuma tutarwara indwara za hato na hato.

Amashyamba ndetse n'ibimera bikwiye kwitabwaho kuko ari byo bigira uruhare mu kubaho kwa muntu, bitanga inkwi abantu bacana bikayungurura umwuka abantu bahumeka ndetse bikarinda n'isuri.

Abantu bashishikarizwa guhinga igihingwa kimwe ku buso bunini kugira ngo iyo myaka itange umusaruro. Urugero i Nyagatare mu bibaya byaho hakunda guhingwa igihingwa k'ibigori mu gihe k'itumba.

Amashyamba kugira ngo yitabweho neza, agomba gutemerwa igihe cyangwa se igihe atari yakura ntatemwe, ahubwo hagaterwa andi menshi, by'umwihariko ahantu hafite ubuhaname kugira ngo birinde isuri.

Ibidukikije kamere byiganjemo: amashyamba, inzuzi ndetse n'ibindi, bigira umumaro munini cyane. Dore yuko amashyamba akoreshwa iyo abantu bari kubaka amazu ndetse bari kubaka n'ibiraro.

Amashyamba ni ingirakamaro mu Rwanda, akwiye kwitabwaho kuko ari yo avamo ibicanwa, akayungurura umwuka duhumeka, agakurura imvura kandi iyo mvura akaba ari yo abahinzi bagenderaho iyo bari guhinga imyaka yabo.

Nutema kimwe jya utera bibiri munyarwanda ndabizi uzi agaciro k'igiti, Leta y'u Rwanda ishishikariza Abanyarwanda gutera ibiti kubera yuko ibiti ari byo bitanga umwuka abantu bahumeka.

Amashyamba kimeza ndetse n'amashyamba yatewe n'abantu, afite uruhare rukomeye mu buzima bwa muntu, dore yuko ayungurura umwuka duhumeka ndetse agafata n'umwuka mubi dusohora, akawuhinduramo umwuka abantu bahumeka.

Umwembe ni igiti gitanga umusaruro uhagije, dore yuko imbuto zacyo zigira n'amafaranga kuko ziba zikenewe n'abatari bakeya kubera yuko zigira vitamin c ari yo ikomeza amagufa ndetse n'amenyo.

Ubuhinzi bw'imbuto imboga ndetse n'indabo bugira umusaruro, imbuto zifasha abantu dore y'uko zigira vitamini ya C ari na yo ikomeza amagufa ndetse n'amenyo.

Imbuto nka pome zikorwamo ibintu bitandukanye, bazengamo imitobe itandukanye ndetse kandi zigakoreshwa n'abantu bazirya, cyane yuko ziba zifitemo vitaminini c.

U,buhinzi bw'imbuto n'imboga butuma ababukora babona amafaranga abafasha kwikura mu bukene, dore yuko imbuto zimwe na zimwe zifasha abantu kugira ubuzima bwiza, ubwo bazirya cyangwa se bakazikoramo imitobe.

Ubuhinzi bw'ibigori bwateye imbere cyane cyane hifashishijwe uburyo bwo kuhirira ndetse no kuvomerera imyaka, mu gihe k'izuba ibigori biba bimeze neza kubera yuko biba byabonye amazi ahagije aturutse mu kuvomerera.

Mu rwego rwo guteza imbere ubuhinzi leta y'u rwanda yagerageje gukwirakwiza amazi mu baturage, by'umwihariko ahantu hahingwa imbuto y'ibigori, kugira ngo bajye bavomerera ibigori . Dore yuko iyo babihinze mu gihe k'impeshyi bizana umusaruro utari mwinshi cyane, ariko kuvomerera bigatuma byera neza bigatanga umusaruro uhagije.

Mu rwego rwo kugira ngo ibihingwa umuntu aba yahinze cyane cyane mu gihe cy'izuba bikure neza, bisaba yuko bivomererwa hakoreshejwe amazi meza ndetse ari muri rozwari.

Guhinga ku mirongo byorohereza gahunda yo kuvomerera imyaka, kuko ubu usanga amazi ahita agera ku bihingwa byoroshye kurusha uko umuntu yaba yarahinze, atarahinze ku murongo.

Mu rwego rwo kugira ngo ubuhinzi bw'imbuto ndetse n'imboga ziganjemo amashu butere imbere, ababuhinga bakoresha rozwari, bari kuvomerera imyaka cyane cyane mu gihe k'izuba.

Iyo koperative yahinze ahantu mu kibaya mu gihe cy'izuba kandi yahinze ibihingwa ku buso bunini cyane, bisaba yuko bashaka imashini ivomerera kugira ngo ibafashe.

Mu buhinzi bugezweho usanga abantu bahinga imyaka bateye ku muronko, hakazaho n'uburyo bugezweho bwo kuhira ndetse no kuvomerera imyaka kugira ngo ikure neza.

Kugira ngo ubuhinzi bw'imboga bugerweho neza bisaba yuko, ubuhinga avomerera nimugoroba kugira ngo amazi arare mu butaka afashe ibihingwa gukura neza bitanga umusaruro uhagije.

Abahinzi bahinga imbuto n'imboga usanga iyo bigeze mu gihe k'ibagara baba babonye akazi gakomeye kuko baba bagomba kurandura ibyatsi muri iyo myaka.

Imigezi, ibibaya, ibishanga ndetse n'imisozi igize Igihugu cy'u Rwanda ni cyo gituma u Rwanda ruba rwiza rukagira umwimerere mu bindi bihugu byose biherereye muri Afurika y'Uburasirazuba ugasanga u Rwanda ni cyo Gihugu kiza muri ibyo ngibyo byose.

Mu misozi miremire ni ngombwa yuko hagomba gukorwa amaterasi y'indinganire ndetse hagaterwa n'amashyamba, hakarindwa guhingwa inshuro nyinshi kugira ngo birinde isuri, ibi ngibi bituma u Rwanda rukomeza kuba rwiza rukagira umwimerere warwo ndetse n'ubusugire bwarwo.

Ubuhaname bw'umusozi kugira ngo bwirindwe bahatera ibiti by'amoko atandukanye byiganjemo inturusu ndetse n'ibindi, ibi ngibi bigafasha kugabanya isuri.

Ahantu haba hari ubuhaname burebure usanga leta yaragerageje kuhatera amashyamba, haba hari amashyamba kimeza cyangwa se amashyamba yatewe n'abantu agafasha kugabanya isuri.

U Rwanda nirwiza kuko rufite ibiyaga, imisozi, amashyamba, ibibaya, ibirunga ndetse n'ibindi, ibingibi bigatuma u Rwanda rusurwa n'abatari bakeya, aribo bazana amadovize baje gusura u Rwanda.

Ibiyaga bigira umumaro mwinshi mu iterambere ry'Igihugu, dore yuko ari byo bituma amafi abaho ndetse bigatanga n'amazi akoreshwa mu kuhirira imyaka.

Hagati y'imisozi itandukanye hakunze kuboneka ikiyaga, icyo kiyaga giterwa n'uko iyo imvura iguye amazi amanuka ku misozi yarangiza akigomera hagati y'iyo misozi hakaba ikiyaga nanone kandi gishobora guterwa n'uko icyo kiyaga ari karemano.

Mu bintu biha ubudasa Igihugu cy'u Rwanda ni imigezi, ibiyaga, imisozi, amashyamba ndetse n'imihanda itangaje iba mu gihugu cy'u Rwanda, Akarere ka Nyagatare rero kubera ko gafite ibibaya byinshi kubaka imihanda ntabwo bijya bigorana.

Ibiyaga bigira uruhare runini mu mibereho ya muntu, ibiyaga bitanga amazi akoreshwa mu kuvomerera imyaka kandi ni na ho amafi akurira, ayo mafi iyo amaze gukura abantu barayaroba bakayarya bakagira ubuzima bwiza kandi bakanayagurisha bakabona amafaranga atuma biteza imbere ndetse n'Igihugu cyabo bakagiteza imbere.

Gahunda y'ubworozi bukorerwa mu biraro itanga umusaruro cyane cyane uw'amata, dore y'uko korora ku gasozi amatungo bituma habaho isuri kandi bikangiza n'ibidukikije.

Ubworozi bw'ihene ni ubworozi buba bufite akamaro cyane, ihene zitanga umusaruro utubutse cyane cyane iyo zoherejwe mu mahanga kugira ngo zibagwe, izindi zikabyara abana zibyaye bagakura.

Abantu borora inka iyo zabyaye usanga baba bishimye cyane kubera yuko baba bagiye kubona ibikomoka ku matungo byiganjemo amata bayajyana ku makusanyirizo bakabona amafaranga bakiteza imbere.

Ubworozi bw'inkoko za kijyambere butanga umusaruro utubutse dore yuko usanga inkoko buri munsi itera amagi abiri, ibi ngibi bigatuma aborora inkoko bagira amafaranga kuko bagurisha ayo magi cyangwa bakayarya bakagira ubuzima bwiza.

Mu ntara y'ububurasirazuba by'umwihariko mu karere ka Nyagatare, hakorerwayo ubworozi bw'amatungo atandukanye, amatungo magufi yiganjemo ihene ndetse n'amatungo maremare arimo inka, ababukora bavuga yuko bubaha umusaruro utubutse.

Ubworozi bw'inka bukorerwa mu nzuri ndetse no mu bikuyu bugira umusaruro utubutse, mbere y'uko butanga amata ahagije ndetse n'inka zikabaho neza kuko ziba zibona ibyo zikenera bya buri munsi.

Mu Karere ka Nagatare haba ubworozi bw'inka bwa kijyambere aho zitanga umusaruro utubutse, werekeranye n'amata, aho buri gitondo abatuye Nyagatare baba bajyana amata ku makusanyirizo, ibi bigatuma babona amafaranga.

Aborozi bo mu karere ka Nyagatare baba bafite inzuri zitandukanye zibamo amashyo aho haba harimo inka nyinshi cyane zirenga nka mirongo itatu zikarya ubwatsi buba buri muri izo nzuri.

Ubworozi bw'ihene ndetse n'andi matungo magufi bukorerwa mu Karere ka Nyagatare mu buryo bugezweho, aho butanga umusaruro uhambaye, ababukora bagurisha ayo matungo bakabona amafaranga cyangwa se bakayabaga bakabona inyama zo kurya.

Ihene ni inyamaswa zororwa ndetse zigatanga n'umusaruro ukomoka ku nyama nyinshi cyane, abaturage batuye Akarere ka Nyagatare bakora ubworozi bw'ihene bajya kuzigurisha mu isoko ribegereye bakabona amafaranga.

Ubworozi bw'inka mu karere ka Nyagatare bwateye imbere, dore yuko usanga umwana waho arerwa n'amata kuva avutse kugeza ashaje, ibingibi bituma abaturage baho bagira ubuzima bwiza.

Imbuto yifashishwa n'abahinzi iyo igihe k'ihinga kigeze, iba yaraguzwe ahantu hacururizwa ibihingwa ndetse n'inyongeramusaruro, ari na ho bagurira amafumbire mvaruganda ndetse n'ibindi.

Ibishyimbo ni ibihingwa ngandurarugo bikunze guhingwa cyane mu ntara y'Ububurasirazuba mu Karere ka Nyagatare, ibishyimbo bigira umusaruro utubutse cyane yuko n'iyo wateye nk'ibiro icumi by'ibishyimbo ushobora gusaruramo ibiro birenga magana abiri by'ibishyimbo.

Amasaka ni kimwe mu bihingwa ngandurarugo bikunze guhingwa mu burasirazuba bw'u Rwanda, akagira umusaruro utubutse cyane y'uko amasaka akoreshwa iyo bari gukora ifu yo gukoresha mu bushera ndetse no mu gikoma abana banywa.

Abanyeshuri iyo bagiye mu rugendoshuri cyane cyane abiga ibyerekeranye n'ubuhinzi bugezweho iyo bageze aho urwo rugendo shuri ruri bubere babambika imyenda yabugenewe barangiza bakinjizwa mu nzu bagakora ubushakashatsi ku byo baba bagiye kwiga.

Abahinzi babanza gufata imbuto bakazitera mu butaka kugira ngo zizamere nizimamara kumera bazuhire, nyuma yo kuzuhira zizere bazisarure, babone umusaruro bakeneye.

Abavuzi b'amatungo yaba magufi ndetse n'amaremare, baba bafite ubuhanga mu kuyavura cyane ko baba barabyize mu ishuri ryabyo, ni muri urwo rwego rero bakoresha inshinge iyo bari gukingira ayo matungo.

Itungo ry'ingurube iyo ryimye ribyara hashize amezi atatu n'ibyumweru bitatu ndetse n'iminsi itatu, iyo rigiye kubyara batumizaho umuganga w'amatungo wabyigiye kugira ngo aze arifashe kubyara neza.

Ubworozi bw'ingurube za kijyambere iyo zihuye n'indwara runaka urugero nka muryamo, abaveterineri babihuguriwe ndetse banabyigiye barazikingira bakazitera umuti kugira ngo zitazahura n'ikindi cyorezo nk'icyo.

Abantu baba barize ibigendanye n'ubuvuzi bw'amatungo bagira uruhare rukomeye cyane, aho bakingira inka indwara zitandukanye harimo ikibagarira ndetse na muryamo. Ibi bigatuma aborora inka bakomeza kugira ubuzima bwiza.

Abaganga bakunda kwambara imyenda y'umweru ndetse bakambara n'udupfukamunwa kuko ari yo mpuzankano yabo mu kazi bakora ka buri munsi, bari kuvura abantu.

Inka z'Inyambo mu muco nyarwanda zizwiho kuba zifite umwihariko wo kugira amahembe manini cyane kandi zigatanga umusaruro utubutse w'amata.

Abavuzi b'amatungo baba bafite imiti itandukanye bakoresha iyo bari kuvura amatungo indwara zitandukanye, harimo nk'ibinini by'inzoka ndetse n'ibinini bya vitamini baha amatungo magufi ndetse n'amaremare.

Muri pariki y'akagera habamo inyamaswa z'amoko atandukanye. Muri izo nyamaswa twavugamo nk'inzovu, ikaba izwiho kuba ariyo nyamaswa nini cyane iboneka muri pariki y'akagera. Iyo pariki ikaba iherereye mu burasirazuba bw'u Rwanda, mu Karere ka Nyagatare ku mupaka w'u Rwanda ndetse na Tanzania.

Inzovu niyo nyamaswa nini dusanga muri parike y'Akagera iherereye mu karere ka Nyagatare, hafi y'umupaka wa Tanzaniya ndetse n'u Rwanda, iyi nyamaswa ikurura ba mukerarugendo benshi bakazanira u Rwanda amadovize.

Imisambi isigariye ahantu hakeya ku Isi. Niyo mpamvu mu Rwanda bamaze kubona yuko imisambi yaba igiye kuzimira burundu, batumijeho abantu bose baba bayifite haba mu majaride ndetse n'ahandi, kuyizana leta y'u Rwanda ikayishyira muri pariki kugira ngo irebe uko yayibungabunga ikongera kugaruka mu gihugu cyacu cy'u Rwanda.

Ibiguruka nabyo tubisanga mu nyamaswa ziba mu ishyamba habaho amoko atandukanye y'ibiguruka muri ayo moko twavugamo nk'ibikona, tukavugamo ibisiga, tukavugamo sakabaka ndetse n'ibindi bitandukanye.

Inzovu ni inyamaswa zigaragara mu mashyamba atandukanye by'umwihariko muri pariki y'Akagera iherereye mu Karere ka Nyagatare hafi y'umupaka w'u Rwanda na Tanzania.

Ibitera ni inyamaswa zifite ishusho igiye kumera nk'iy'abantu, bikunze kugaragara mu burasirazuba bw'u Rwanda mu mashyamba amwe n'amwe ahari, by'umwihariko nko muri parike y'Akagera ndetse no mu mihanda ya za Nyagatare.

Impyisi ni inyamaswa iba mu ishyamba kandi ikaba ikunda kurya inyamanswa zapfuye, inyamanswa rero y'impyisi ikiyigaragaza ni uko igira amaguru maremare y'imbere, ay'inyuma akaba ari magufi.